Umwana muto wishimye wambaye agapira k'umutuku, uri ku ivomero urimo avoma amazi mu gikombe, bigaragara ko ayo mazi ari meza kandi ashobora kuba yanyobwa n'uyu mwana kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza no kugira amazi mu mubiri we.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, bafite abana bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo, nk'uwicumi aho abana hari umuti bari gusomeshwa.

Ururya n'uruza rw'abantu bateranyirijwe hamwe kugira ngo bige ku mibereho myiza yabo uko bakitwara kugira ngo bite ku buzima bwabo bwa buri munsi babigizemo uruhare ndetse babashe kubaho neza nta kibazo kijyanye n'ubuzima bwabo bagize ndetse igihe babugize bakaba babarangira aho bashobora kwivuriza.

Urujya n'uruza rw'abantu rurimo abagore, abagabo, abakobwa ndetse n'inkumi, batera akarima k'igikoni kugira ngo ukabona abashe kwirinda indwara binyuze mu kurya imboga ndetse no gufata ifunguro ryuzuye.

Ndabona umuganga urimo apima umwana kandi iruhande rw'uwo mwana hakaba hari umubyeyi, uwo mubyeyi afite ibyangombwa mu ntoki, uwo muganga ari gukoresha icyuma apima uwo mwana, aho icyo cyuma yagishyize ku nda y'umwana, bisa nk'aho hari ubutumwa ari kumvira mu matwi. Inyuma yabo hari ikibaho bifashisha abana biga. Bigaragara ko ibyo biri gukorerwa mu cyumba kimeze nk'icy'ishuri.

Urujya n'uruza rw'abantu baje gufata serivisi kwa muganga. Harimo abagore ndetse n'abagabo. Umuganga ari kwifashisha ikiganza cyabo, abafata amaraso bigaragara ko aribuze kuza kwifashishwa mu gupima ibipimo biza kwerekana imihagararire yabo ndetse n'ubuzima bwabo.

Ivomero ririho urujya n'uruza rw'abantu barimo abagore, abagabo, abana, abakobwa ndetse n'abasore aho bigaragara ko ryari rifunze nyuma bakaba barifunguye kugirango ngo babashe bazanya kuvoma amajererekani, indobo ndetse n'ibindi bishobora kwifashishwa kugira ngo babashe kuba babona amazi.

Urubyiruko rwicaye ku meza imbere hari igitabo. Rwambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'indi y'umweru, aho bigaragara ko bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima, uko wakiririnda indwara n'uko wabona ubufasha igihe wagize indwara runaka.

Umuganga witabiriye inteko y'abaturage, barimo urubyiruko, abagore ndetse n'abagabo, abaganiriza ku bijyanye n'imibereho myiza yabo ndetse n'uko bahegerezwa ibitaro bakabona na gahunda zikorerwa mu bitaro zikabageraho ku buryo bworoshye.

Abanyeshuri bambaye impuzangano imwe ubona ko bari ku ivomere bavoma amazi mu ndobo ndetse no mu tujekani bigaragara ko bagiye gukora isuku aho bigira ndetse batozwa no kugira isuku n'uburyo isuku yabafasha mu buryo bwo kugira ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hamwe aho barimo basobanurirwa uburyo imiti ishobora gukora, uko bayibona, uko yagera ku baturage ndetse harimo abareba babaza ndetse basubizwa bitewe n'ibibazo babajije ku bijyanye n'iyo miti n'uburyo yatangwa.

Abana bato bahagaze imbere y'ivomero, bafite isabune ku ntoki zabo, byerekana ko bagomba kugira umuco wo gukaraba, bakoza intoki zabo, kugira ngo babeho mu buzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abagore ndetse n'abagabo, abasore ndetse n'abakobwa bambaye impuzangano yo kwa muganga, bigaragare ko ari abaganga, aho ubona bishimye banezerewe, bigaragara ko hari inkunga bashobora kuba babonye, bigatuma baba bishimye ndetse baririmba. Imbere yabo hari umwere na we urimo kubaganiriza.

Umujyanama w'ubuzima urimo kwereka umubyeyi uko bakoresha agakoresho kerekana nimba umubyeyi atwite, aho bigaragaraga ko ari kumusobanurira yifashishije n'ibindi bikoresho ashobora kwifashisha by'ikoranabuhanga kugira ngo amusobanurire neza amakuru y'uko wamenya ko utwite.

Abagore, abagabo, bigaragara ko biyunze bishimye aho babiri babiri, ubona ko bagiye bafatanye bishimye, ibi bigaragara ko bahawe ubuvuzi ku bijyanye n'uburwayi cyangwa se indwara zo mu mutwe, bakaba baritaweho, abari baragiranye ibibazo bakaba barongeye bakiyunga.

Abasore n'abakobwa bishimye bahagaze imbere y'imodoka, ndetse ubona ko bishimye bari guha umwe muri bo igihembo cy'ishimwe, cy'urupapuro kigaragaza ko hari icyo yabafashije.

Urujya n'uruza rw'abantu rurimo abagabo ndetse n'abagore ariko anjemo urubyiruko bateraniye hamwe baganirijwe ku bijyanye n'imibereho n'ubuzima bwo mu mutwe. Uko umuntu yabwirinda, uko yakakirwa ndetse akanafashwa igihe bugaragaye ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Ifoto yerekana urutonde rw'amenyo y'umuntu harimo amenyo y'imbere, ayo mu mpande ndetse n'inyuma, iyo foto ikaba iboneka binyuze mu gikoresho bifashisha kigezweho.

Icyumba cyubatswe mu buryo bugezweho cyerekana aho bakirira umurwayi ikibazo cy'amenyo aho bashobora kumureba mu kanwa ibyuma bakoresha kugira ngo bamusuzume barebe amenyo afite ikibazo nuko bayatunganya kugira ngo abashe gusubirana mu kanwa heza n'amenyo meza.

Umubyeyi urimo wigisha umwana koza amenyo akoresheje umuti woza amenyo, aho amutoza anamwereka akamaro ko koza amenyo mu buryo buhoraho kugira ngo umwana abashe gukorana umuco wo kwita ku menyo ye no kuyabungabunga.

Umuganga urimo afata ibipimo apima umurwayi ko yaba afite icyorezo cya Corona Virus 19, Aho ari gukoresha akuma agashyira mu kanwa ke kugira ngo abashe gufata amwe mumacandwe ye aze kwifashishwa mu gupima niba uwo muntu afite icyorezo cya Corona Virus 19.

Ifoto y'umukobwa wirabura useka werekana amenyo ye, amenyo asa neza yamamaza ko amenyo ashobora kwitabwaho akagira isuku agasa neza.

Umuganga muto ndetse n'umubyeyi ukuze, aho umuganga afashe ukuboko k'umubyeyi amwitaho amufasha kuba yagorora ingingo z'ukuboko, ndetse azitaho kugira ngo ukuboko k'uwo mubyeyi gukomeze gukora neza.

Ndimo ndabona umubyeyi ukuze uri kumwe n'umukobwagaragara ko akiri muto barimo baragenda bambaye imyenda yo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse bamo barahumeka umwuka wo hanze mu gashyamba ndetse n'ibindi bidukikije bigaragara ko biri kuba umwuka mwiza wo guhumeka.

Umusaza ukuze uri kumwe n'umuganga amwereka uko azakoresha imiti n'amasaha azafara imiti, imbere y'uwo musaza hari ikirahuri cy'amazi bigaragara ko muri iyo miti ariyo agiye kubanza kumuhera muri icyo cyumba.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye imipira y'ubururu ndetse n'indi yijimye, bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo babashe kongerera umubiri wabo gukora neza ndetse n'indi mirimo.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ubuvuzi bwo kubaga, aho abaganga batandukanye bambaye imyenda bikwije, udupfukamunwa, ibipfuka umutwe ndetse n'uturinda intoki, barimo bapima banavura umurwayi mu buryo bwo kumubaga.

Icyo gitabo cy'umwarimu wigisha mu ishuri ryisumbuye yigisha ibijyanye n'imyororokere ku banyeshuri be kugira ngo babashe kumenya ubuzima bw'imrokere babashe kwirinda ku ngaruka zaterwa no kutamenya neza ubuzima bwabo bw'imyororokere.

Urujya n'uruza rw'urubyiruko rurimo abasore ndetse n'inkumi, bafashe igitambaro cyanditseho amagambo yo kwirinda kanseri y'ibere, bisuzumisha kare kuko ivurwa igakira.

Ndabona akayira gakozwe mu buryo bugezweho gakikijwe n'ibyatsi ndetse mu byatsi bigakikije harimo n'insina, ako kayira karagana kuzu ebyiri zubatswe mu buryo bugezweho zifite amabati y'umutuku ndetse n'ibikuta by'umweru.

Ndabona inzu yubatse mu buryo bugezweho ifite ibyapa biribiri. Imbere yayo aho binjirira ibuburyo n'bumoso hari intebe zikozwe mu ibara ry'umutuku nazo zigaragara zikozwe mu buryo bugezweho hejuru y'izo ntebe hari udusanduku tw'umutuku.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyo kwa muganga, cyifashishwa harebwa mo imbere mu mubiri w'umuntu, aho berekana aho afite ikibazo yaba ari amagufa, mu nda he se kugira ngo berekane igice cy'umubiri kiba gishobora kuba gifite ikibazo. Hifashishwa ifoto itangwa, igaragara muri mudasobwa, icometse kuri icyo gikoresho cyo kwa muganga.

Inzu i icururizwamo imiti aho batanga imiti itandukanye ku barwayi harimo umutwe, ivura indwara z'uruhu, ivura amaso ndetse n'ibindi kugira ngo igihe umurwayi atarajya kwa muganga cyangwa atabone uburyo ujya kwa muganga abashe kuba yafashwa aguze imiti aho hafi.

Inzu y'ibitaro, igaragaza aho bavurira amaso, barerekana icyapa cyerekana ko bavura ndetse bakanita ku bijyanye n'amaso, bagatanga imiti ndetse n'ibindi bintu byose bidakenerwa ku umurwayi ufifite ikibazo cy'amaso.

Ndabona inyubako yubatse mu buryo bugezweho ifite ibara ry'umweru n'irindi ry'ubururu ndetse n'irindi rijya kuba umutiuku, imbere yayo hari ibyatsi naho hejuru hari ikirere gisa neza ubona ko hameze nk'impinduka nkaho izuba riri kuva.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho ngororamubiri aho abarwayi bagana muri iki cyumba kugira ngo ngo babashe kuba bakora imyitozo ngororamubiri, ari abagorora umugongo, amaguru, amaboko ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo babashe kongerera ubushobozi ingingo zabo zongere gukora neza.

Izuba y'ubatse mu buryo bugezweho bigaragara ko hari ahantu bakorera ubuvuzi, imbere hagaze umwari wambaye ijipo ry'igitenge ndetse n'agapira k'umuhondo.

Icyumba kigezweho cyo kwa muganga kirimo agatebe ndetse n'igitanda ibishushanyo bigaragara kuri icyo cyumba cyakira abana batoya kibereka bimwe mu bishushanyo bishimisha abana.

Amarembo y'ibitaro bya Nyanza aho abaturage bo muri ako gace ka Nyanza bashobora kubonera serivisi z'ubuvuzi ari ukwita ku bana, ababyeyi bakuze, abagabo ndetse n'abandi b'ingeri zose bakenera serivisi z'ubuvuzi muri ako gace ibyo bitaro biherereyemo.

Urujya n'uruza rw'abantu bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi aho bitira ku babyeyi batwite, bakaba bahabwa ubufasha kugira ngo babafashe mu kubyara ndetse n'izindi gahunda bakenera kugira ngo bitabweho.

Inyubako yo kwa muganga yubatse mu buryo bugezweho, ifite amatara agabanyije urumuri akoze neza, ifite ibirahuri ku buryo umuntu uri inyuma abasha kureba ibirimo imbere ndetse ufite amatara arimo ay'umweru ndetse na y'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu, rurimo abagore, abasore, abagabo, ndetse n'abakobwa, baganirizwa n'abayobozi, babigisha ku bijyanye n'imibereho myiza yabo, uburyo bagomba kwitabira kwisuzumisha kwa muganga.

Icyumba cyubatswe mu buryo bugezweho, gifite ameza akoze mu cyuma, giteretseho imashini z'ikoranabuhanga zicometse, bigaragara ko zicometse ku mashanyarazi.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima bya Gishweru, aho berekana aho abantu bo mu gice cya Gishweru bashobora kubonera gahunda z'ubuvuzi muri ako gace bagiye kuri icyo kigo nderabuzima.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho, iriho inzugi n'amadirishya, ifite amatara y'icyatsi, bigaragara ko iyo nzu yifashishwa mu buryo bw'ubuvuzi bugezweho ndetse no kwakira abandi barwayi b'ingeri zitandukanye.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho, ifite umuryango ukozwe n'ibirahuri, byiganjemo ibara ry'ubururu, werekana ikigo gicuruza imiti i Kanombe.

Ababyeyi bazanye umwana kwa muganga kumupimisha kugira barebe uko amenyoze umuganga arimo arakoresha icyuma cyabugenewe cyerekana amashusho y'uko mu kanwa k'umuntu hameze amurika mu kanwa k'umwana ngo arebe uko amenyo ye ahagaze.

Udukoresho bifashisha babika imiti, twanditseho ibirango mu izina ry'Icyongereza, bisobanura ko iyo miti ihagarika uburibwe. Imiti igaragara iri mu ngano zigiye zitandukanye zimwe ni nyinsh izindi ntoya.

Ibyo bitandukanye birimo imboga, imbuto, ibinyampeke birimo ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga, iruhande rwabyo hari ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri aho byerekanwa ko umuntu ufasha ibyo byose ukoresheje ibyo byose ashobora kugira ubuzima bwiza.

Imbuto, imboga ndetse n'amazi, Icyuma bifashisha mu myitozo ngororamubiri gifite ibiro bagiterura, bigaragara ko umuntu afashe ingano ihagije y'amazi y'imbuto ndetse n'imboga agakora n'imyitozo ngororamubiri yabaho mu buzima bwiza.

Ukuguru guhagaze hasi byerekanwa ko umuntu ashobora kuba yagize imvune, bikaba byerekana uko imitsi ye ibabara, imitsi yagize ikibazo n'aho iherereye bishobora gufasha umuganga umuvura kumenya aho ashyira imiti igihe amuvura.

Yashyize urubura ruri mu ishashi ku ivi rye akoresheje ukuboko kwe kugira ngo abashe kuba yagabanya uburibwe buri mu ivi, ndetse agabanye n'ubushyuhe aho yavunitse kugira ngo bikomeze kugabanya kumurya.

Ndimo ndabona ishusho ya mudasobwa igaragaza bimwe mu bice by'umubiri w'umuntu mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibice bigaragazwa ni igice cy'umutwe aho herekanwa ubwonko mo imbere ndetse n'amagufa agaragara imbere mu mutwe w'umuntu.

Umwana muto wishimye uri kumwe n'ababyeyi babiri, aho umwana ari guhabwa bimwe mu bikoresho yakwifashisha kugira ngo akine, baherereye mu nyubako irimo ibitambaro by'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu, ikikijwe n'intebe nyinshi ndetse n'ibindi bikoresho biri mu mabara y'icyatsi.

Umuntu uryamye hasi akoresheje amavi ndetse n'amaboko y'imbere, bigaragara ko ari muri siporo ngororamubiri, yirinda indwara y'umuvuduko ndetse n'izindi zituma kudakora siporo.

Igitambaro kiri mu muzenguruko w'umutuku, bifashisha bafuka ndetse banatanga ubufasha ku bantu bakomeretse, ndetse n'abagize ibibazo by'imvune, aho bagakoresha bapfuka ndetse banavu abantu bakomerekaretse.

Umurwayi wagize imvune mu kaguru, uri kwitabwaho, bamuzirika agatambaro ku maguru ye kugira ngo abashe kuba yakongera kugenda ndetse no kugira ngo yirinde izindi ngaruka zaturuka ku kuba yavunitse.

Umukobwa wambaye isengeri urimo gukora imyitozo ngororamubiri aho arimo agorora amaboko ye, agorora inkokora, intoki ndetse n'ijosi, kugira ngo abashe kugira imibereho myiza n'ubuzima bwiza.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi urimo kunywa amazi, ugaragara nkaho yari arushye bitewe no kuba yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri, bikaba byatumye anywa amazi yamufasha mu kongera imbaraga ndetse no kuyungurura impyiko ze.

Umupira wo gukina ndetse n'igikoresho bifashi kwa muganga bapima gutera kw'umutima no gutembera kw'amaraso by'umurwayi bigaragare ko bishatse gusobanura ko umuntu akoze imyitozo ngororamubiri umutima we ndetse n'ibindi bice by'umubiri we bishobora gukomeza gukora neza.

Abantu batandukanye biruka hagaragazwa ko igihe umuntu yirutse ashobora kugira ibyo agabanya mu mubiri we ndetse ashobora no kwirinda indwara ari izaza mu kirenge cye n'ivi rye cyangwa se mu nkokora kuko zidashobora kuzirwanya binyuze mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Igiti gakondo cyifashishwa mu buvuzi rusange, aho bashobora kwifashisha ibibabi byacyo by'icyatsi, uruti rwabyo cyangwa se imizi kugira ngo babashe kuba bavura, ibyo bigakorwa n'abantu bamwe mu bakuze bafite ubumenyi bwo gukoresha icyo cyatsi.

Amavuta bisiga ku munwa yongera ububobere bw'iminwa ndetse no kudasanzweduka k'iminwa akoze mu ndabo zitandukanye no mu byatsi bitandukanye harimo n'abakoze mu gikakarubamba, aya mavuta yifashishwa n'abagore cyane cyane kugira ngo bagire iminwa imeze neza.

Imiti gakondo ikozwe mu byatsi, ipakiwe neza, ifitwe n'umuganga wambaye agapfukamunwa, akarinda umutwe ndetse n'impuzangano y'akazi ko mu buganga, iyo miti ipakiye mu gakarito gafite ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo ndetse n'icyatsi, uducupa two dusa umukara na two tukaba dufite agapapuro ku ruhande, gafite amabara umutuku, umuhondo n'icyatsi.

Icyatsi bigaragara ko cyifashishwa mu buvuzi gakondo, giteye ahantu hari amabuye icyatsi gifite amababi afite ibice bigiye bitandukanye bifataniye ku ruti rumwe.

Uducupa tw'imitir twerekanwa ingaruka kugira ku mubiri wawe ububabare mu mugongo ku ijosi ndetse no ku nkokora; igihe ufashe iyo miti ushobora kukurinda ukaba wasubirana ubuzima bumeze neza.

Umuti gakondo uri mu isekuru, ugizwe n'ibibabi ndetse n'uruti n'ibyatsi bakoresha bibavura mu buryo bwa Kinyarwanda, ibyo byatsi birimo biratotorwa ndetse n'ibibabi bakabishyiramo kugira ngo babashe kubigabanyiriza ingano.

Icyatsi nyarwanda gifite uruti rworoshye ndetse n'ibibi byoroshye gikoreshwa mu gutanga umuti gakondo, icyo cyatsi gikunda gukoreshwa n'abantu kavukire bakunda kugikoresha bavura abana ndetse n'abantu bakuru bashobora kuba bafite ikibazo.

Umuti gakondo uteretse mu kirahuri kirimo amazi aho urimo wozwa utunganywa, kugirango ngo ubashe gukoreshwa usa neza bawuha umurwayi ufite ikibazo, uyu muti ukunda gukoreshwa iyo umuntu arwaye korora bikabije.

Icyatsi cyifashishwa mu ku buvuzi bwa gakondo aho gikoreshwa na bamwe mu bahanga babizobereyemo kugira ngo babashe kuba batanga umuti uba bafite ikibazo ikitazi gishobora kuba cyavura.

Umuti gakondo ukoze mu bishishwa by'ikawa bakoresha kugira ngo babashe kuvura zimwe mu ndwara z'uruhu kugira ngo uruhu cyane cyane urwo mu maso rubashe kumera neza no gusubirana ubudasa.

Imiti gakondo itandukanye irimo ibibabi, imbuto zituruka ku byatsi gakondo byifashishwa n'abantu kugirango babashe kuba bakwivura zimwe mu ndwara zibugarije, bitabaye ko rekeza ku bitaro.

Umuti wifashishwa bavura ndetse banongerera intungamubiri nyinshi ndetse n'ubushobozi bw'ibikomoka ku biryo mu umubiri w'umuntu aho bakoresha ifu iturutse ku mbuto.

Ibihingwa bitandukanye birindwi birimo kimali ndetse n'igikakarubamba n'ibindi bitandukanye, byifashishwa bavura batanga n'imiti ya gakondo kugira ngo abantu babashe kuba babitaho babavure igihe bigaragaye ko bafite indwara ishobora kuvurwa na kimwe muri ibyo byatsi.

Ndabona utuntu tumeze nk'isabune inyuma yatwo hari akantu kameze nk'apapuro kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, iruhande kuri urwo papuro hariho akantu kameze nk'agasahani karimo agafu ndetse n'utundi tuntu tutagaragara, ako gapapuro kari mu mabara y'umuhondo icyatsi akantu kari mu ibara ry'icyatsi urabona ko hari icyatsi k'igikakarubamba.